Abana bari mu bigo by'amashuri iyo bamaze kunezerwa bahaze usanga bakina. Burya kwiga ni byiza ariko n'umwanya wo kuruhuka urakenewe kuko twaje kubona ko akamaro ka siporo hari bimwe mu bibazo igenda ifasha mu gukemura, harimo nko kugira umunaniro ukabije ndetse n'ibindi bintu dukunze kwita amasiteresi.

Amashuri abanza ndetse n'ay'incuke akunze kuba afite ibitabo bigiye birimo ibintu bitandukanye, nk'imikoro ndetse n'imyitozo ifasha abana mu gufunguka k'ubwonko, ibingibi bituma uburezi bukomeza kugira ireme mu gihugu cyacu.

Ibyicungo bigomba kuba bihari mu mashuri y'inshuke ndetse n'abanza, ibi ngibi bituma abana baruhuka mu mutwe ntibahugire mu masomo gusa kuko bituma bavumbura n'izindi mpano bagiye bifitemo.

Abana batoya bakunze kunezeza abantu rwose bakunze kubita ibibondo kandi burya nta n'umutima mubi bagira, ibintu byabo usanga biri ku murongo nta bindi bintu bijya bibatesha umutwe usange bahangayitse.

Uburezi cyane cyane mu mashuri abanza bukunze gukorerwa ahantu heza kandi hagaragarara. Aha ngaha rero usanga inyubako zigiye zifite ibishushanyo bigiye bigaragaza ikintu gikorerwa aho hantu cyane cyane nk'inyamaswa cyangwa se amazi nk'ibiyaga ndetse n'imigezi. Tuba tugomba rero kubyitaho kandi tukamenya icyo bisobanura.

Ibimera bigenda byifashishwa mu bintu bitandukanye, bikunze no kwandikwa mu bitabo, ibi ngibi bituma u Rwanda rushyiramo imbaraga mu gushishikariza abantu mu gusoma no kumenya akamaro k'ibimera ndetse bikongera n'umubano hagati y'abantu n'ibindi bintu.

Amashuri abanza agomba kuba afite ibirango biyagaragaza cyane cyane nk'inshuke. Aha ngaha rero abana bituma bashishikarira uburezi kandi bakabukunda, aho twamaze kubona ko kimwe mu bintu biteza imbere uburezi buhamye kandi bufite ireme ari ibishushanyo kuko bino bintu bifungura abana ndetse bikaba byatuma banavumbura.

Ibishushanyo bishyirwa ku nkuta z'amashuri bikangura ubwenge bw'abana ndetse bagahumuka. Ibi ngibi rero bituma ireme ry'uburezi rizamuka kandi ahantu bikozwe neza hakunze kuvamo abana b'abahanga ndetse n'abashakashatsi.

Mu mashuri y'incuke hagomba kuba harimo ibikinisho by'abana, ibi ngibi rero bituma abana mu gihe bagiye kuruhuka, batabura ikintu bahugiraho kandi bigatuma n'ireme ry'uburezi rikomeza kuzamuka.

Mu mashuri y'inshuke niho dukunze gusanga ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa mu gushushanya. Ahangaha twavuga nk'amakaramu y'ibiti, amakayi ari ahongaho atagize ikintu na kimwe yanditsemo, kandi ibingibi rwose bizamura ireme ry'uburezi.

Abana biga mu mashuri y'inshuke, bakunze kuba bafite ibishushanyo bibafasha mu kuruhuka mu mutwe. Ibi ngibi bituma abana batagira ibindi bibazo byo mu mutwe, bishobora kubatera nk'agahinda gakabije cyangwa se umunaniro udasanzwe.

abana baba bagomba gutemberezwa ahantu hari ibikorwa nyaburangahanga. Aha ngaha twahabona nk'ibyicungo cyangwa se ibindi bintu bigiye bibafasha mu gufungura ubwonko bwabo. Ibigi bituma ireme ry'uburezi rizamuka kandi n'abarezi bakishimira kubona umusaruro w'abana babo baba barareze. Aha ngaha hagomba kuzamo n'imbaraga z'ababyeyi.

Igikapu ni igikoresho dutwaramo ibikoresho byo ku ishuri ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, akenshi rero abana bakunze kuba bafite ibitoya bakabiheka mu mugongo, aho usanga abenshi babigirira n'isuku mu rwego rwo kwirinda umwanda, no gukomeza kurwanya ibindi bikorwa byose bishobora gutuma uburezi butagenda neza harimo nk'isuku nke.

Ibishushanyo bigenda bishyirwa ku nkuta z'amashuri biba bifite icyo bisobanura. Abana rero iyo babisomye ubwonko bwabo buraguka kandi bagatekereza kure, bityo ireme ry'uburezi naryo rikazamuka ku rwego rushimishije.

Mu mashuri y'inshuke abana bagenda bahabwa ibikoresho bibafasha kuruhuka mu mutwe nk'utugofero dutoya, aho usanga banezerewe cyane kandi ibi ngibi bikabatera n'umuhati wo gukomeza gukurikirana amasomo yabo.

Ibitabo ni imfashanyigisho ikoreshwa mu mashuri abanza, ay'inshuke ndetse n'ayisumbuye. Hakunze kubonekamo ibishushanyo, aho byifashishwa mu myigire y'abana bakiri bato kandi ibi ngibi bigatuma n'ubwonko bwabo bufunguka.

Amashuri abanza ndetse n'ay'inshuke ni ho dukunze kubona ibikorwa bigiye bitandukanye, Leta yazanye gahunda rero yo kugaburira abana ku ishuri ndetse hari na zimwe gahunda zigenda zikorerwa mu midugudu nka Shisha kibondo.

Ibishushanyo bigenda bishyirwa ku nkuta z'amashuri. Ibi ngibi bituma ubwenge bw'abana bukanguka ndetse na bo bakibaza cyane, aho bashobora kuvumbura ikintu gishyashya cyagirira akamaro rubanda nyamwinshi.

Ibishushanyo biboneka ku bitabo bitandukanye bikunze kuba bifite icyo bisigura cyangwa se bigaragaza ibi ngibi rero byagiye bigaragara nko mu bice bitandukanye by'Igihugu aho bagiye bifashisha imfashanyigisho zifite amashusho.

Mu byumba by'amashuri hakunze gukorerwamo inama ndetse n'ubukangurambaga. Aha ngaha rero nta gice na kimwe kigenda gihezwa. Usanga inzego zigiye zitandukanye yaba iza leta, yaba n'izikorera, izishinzwe umutekano, zose zigerageza kwegera abana ndetse n'abanyeshuri muri rusange zikabaganiriza.

Ibikoresho byo mu mashuri abanza cyane cyane n'incuke, bikunze kuba bishyirwa ahantu abo bana bakunze kubibona kandi bakabikoresha ku buryo bworoshye. Tugomba kwirinda kubyangiza cyangwa se kubigirira isuku nkeya ndetse tugatoza n'abana gushyiramo imbaraga mu gihe barimo barajya ku mashuri birinda kugenda bakina mu muhanda kugira hatagira ikinyabiziga gishobora kubagirira nabi.

Amashuri abanza n'ayisumbuye akunze kuba afite ibintu byinshi agenda akora ariko cyane cyane hari uburezi budakunze kwitabwaho cyane nk'ubw'incuke, harimo abantu banabitinya bavuga ko bigoye cyane kurera abana ariko ibi ngibi tugomba kumenya ko ari inshingano zacu, mu gufasha abana kugira ngo na bo bakure kandi bazagire icyo bamenya banimarira ndetse banakimarire igihugu.

Mu mashuri y'incuke hakunze kugaragara ibishushanyo by'inyamaswa zigiye zitandukanye, aha ngaha twavuga nk'inzovu, intare ndetse n'ibindi bintu, ibingibi rero hari ikintu gikomeye abana kibaremamo nko kumenya kubungabunga ibibakikije ndetse bagashyiramo n'imbaraga n'ibindi bintu bigiye bitandukanye bakora.

Mu rwego rwo kuruhuka mu mutwe, cyane cyane nko mu mashuri y'inshuke abana bagomba kuba bafite ibintu by'ibyicungo bajyaho, mu gihe batarimo bariga ariko ntibagomba kubikora bonyine, hagomba kuba hari n'abarezi hafi aho ngaho, bakabererekera kandi bakabarinda urugomo, cyane cyane ko harimo abana usanga bakubagana cyane.

Inyubako za leta cyane cyane iz'amashuri, zigomba kuba ziri ahantu heza kandi hagaragara. Aha ngaha nko mu burezi bw'ibanze ndavuga inshuke n'amashuri abanza, abana baba bagomba kuba bari ari ahantu bitaruye kandi bagaragara mu rwego rwo kuba barinda abana babo kuba bagirirwa nabi cyangwa se bahura n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye by'ubuzima.

Amashuri y'inshuke akunze kuba ashushanyijeho ibimenyetso bigiye bigaragara harimo nk'amabendera, aho abana bakurarana indangagaciro zo gukunda Igihugu ndetse no gukunda umurimo, ibingibi ni ibintu byiza kandi bigomba gushyigikirwa.

Ibitabo biba bifite amashusho agiye atandukanye, aho ibi ngibi bikunze gukangura ubwonko bw'abana bagashishikarira kubisoma ndetse n'abarezi bakabatoza umuco mwiza wo gusoma. Aha ngaha rero umwana ukuranye uyu muco ndetse n'indangagaciro, akunze kuvamo umuntu w'umugabo cyane kandi akagirira akamaro igihugu ndetse na we ubwe akakigirira.

Abana iyo bari ku murongo cyangwa se bajye kugana ku mashuri ubona ari ibintu bisa neza rwose. Tugomba kubashishikarira rero gushyiramo imbaraga bagasoma ibitabo kuko nubwo ubwenge bwinshi bugiye bubitse. Ntabwo twakwirengagiza ko no mu mashuri makuru bagomba kubikora ariko cyane cyane mu mashuri abanza, niho hagomba gushyirwamo imbaraga cyane kurusha ahandi hose.

Mu mashuri y'inshuke hakunze kugaragara ku nyubako z'aho ibikuta bigiye bishushanyijeho ibintu biriho nk'inyamaswa nk'intare, ihene ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, ibindi ngibi rero bikangura ubwonko bw'abana ugasanga abana bafata mu mutwe nta bibazo bakunze kugira ndetse ibi ngibi bigatuma n'ireme ry'uburezi rizamuka.

Abana biga mu mashuri abanza n'ay'inshuke baba bagomba gutozwa uburyo bwiza bwo gukina kandi n'ibikinisho byabo bakabanza kubisobanurirwa n'uburyo bikoramo, si byiza rero guhubuka utabanje kumenya icyo abana bakeneye.

Mu mashuri abanza niho hakunze kugaragara ibishushanyo. Ibi ngibi rero bituma abana bafunguka mu mutwe, bikabatera kuvumbura ndetse akaba ari na bo bazasimbura abasaziye mu kazi. Ibi ngibi rwose bigomba gushyirwamo imbaraga kandi bigashyigikirwa.

Gusigasira ibyagezweho ni inshingano za buri munyarwanda n'umunyarwandakazi wese aho ava akagera, ibi ngibi rero iyo bikozwe neza igihugu gitera imbere kandi n'abantu nabo bakagenda biteza imbere mu bisate bigiye bitandukanye.

Mu burezi harimo uburezi bw'inshuke n'ubw'amashuri abanza, abana iyo bakiri bato rero baba bagomba gutozwa gusoma inyuguti ku nyuguti bakamenya no gusoma imibare, aha ngaha rero umurezi aba agomba gushyiramo imbaraga zose zishoboka agakangura ubwonko bw'umwana kandi akamutoza gufata mu mutwe.

Amashuri agiye atandukanye yagiye ashyiraho ingamba zinyuranye, aho abana bagomba kwicara bambaye impuzankano zisa kandi zimeze neza. Ibi ngibi bituma ireme ry'uburezi rikomera cyane.

Amashuri y'inshuke akunze kuba arimo abana bagiye batandukanye harimo abafite ubumuga kuko Leta yamaze kugaragara ko nta muntu ugomba guhezwa bitewe n'ikibazo afite. Ibi ngibi rwose bigomba kugenda byigishwa ahantu hose hashoboka.

Ahantu dukorera ubucuruzi hagomba kuba hameze neza kandi hizewe hafite isuku, ni yo mpamvu rero tugomba kumenya ko n'amashuri cyane cyane y'inshuke haba harimo abana bakubagana tugomba kuyitaho cyane kurusha ahandi.

Ibikinisho by'abana bigomba gushyirwa ahantu hagaragara maze na bo bakabibona. Ntabwo rero tugomba kumenya ko abana bagomba guhugira mu masomo gusa, baba bagomba kugira n'umwanya wo kuruhuka, bagakina bakisanzura.

Amashuri y'inshuke akunze kuba afite ibikinisho by'abana ibi ngibi bituma abana bisanzura kandi bakishimira uburezi n'uburere bahabwa ntabwo tugomba kwibagirwa imvugo ivuga ko igiti kigororwa kikiri gito, iyo umwana akuze neza abyirukanye ubwenge agirira Igihugu akamaro ndetse n'ababyeyi ndetse nawe ubwe akigirira akamaro.

Uburezi bw'ibanze bukunze kuba bufite ibintu bibugaragaza, harimo ibikoresho bigenda byifashishwa mu kwiga aho babyifashisha basobanurira abana kandi bakanasobanukirwa, ibingibi byagiye bizamura ireme ry'uburezi mu binyacu ndetse n'ibinyejana bigiye bitandukanye.

Imibare ikunze kwifashishwa mu bisate bigiye bitandukanye by'Igihugu yaba mu burezi, mu buzima ndetse n'ahandi hantu henshi hagiye hatandukanye. Nta hantu utasanga imibare kuko irakoreshwa cyane.

Amashuri abanza burya nayo afite akamaro cyane. Harimo aho usanga abana bagenda batozwa kubara, kumenya kwandika kuko niho umuntu atangirira muri rusange. Nta muntu wese utakifuza kumenya gusoma cyangwa se ngo asobanukirwe n'ibyiza by'uburezi mu Rwanda kuko buri wese yahawe amahirwe kandi ashoboka.

Mu mashuri abanza tugiramo ibikoresho bigiye bitandukanye harimo: ibitabo, amakaramu ndetse n'ibindi bintu dukunze kwita ngo ni amakereyo n'imikasi, ibi ngibi bikunze kwifashishwa mu gushushanya aho bikangura ubwonko bw'abana ndetse na bo bakiteza imbere n'uburezi bwacu bukagenda buzamuka cyane cyane mu bice byo mu Burasirazuba.

Ibinyapande ni isomo dukunze gusanga mu mibare. Ntabwo rero abantu benshi iri somo barikunda kuko usanga bakunze kwitatsa bavuga ko rikomera cyane. Ibi ngibi ariko biterwa n'imyumvire ndetse n'uburyo abantu bagiye bishyiramo ibintu bidafite aho bishingiye.

Inyubako za leta nk'amashuri zikunze kuba ziri ahantu hitaruye kugira ngo umuntu wese uhanyura amenye ibikorwa bikorerwa ahantu nk'aho ngaho. Tuba tugomba rero kuzitaho, tukazibungabunga, tukazigirira isuku, tukirinda kuzangiza ndetse si n'ibyo gusa, tugomba guteraho n'amarangi.

Abana bagomba gutozwa kwandika bakiri batoya. Buriya niyo mpamvu bavuga ngo igiti cyigororwa kikiri gito. Iyo umuntu yize akuze biramugora gufata mu mutwe kandi bimwe na bimwe ntabwo abibonera umwanya kuko aba afite n'izindi nshingano.

Ibikoresho byifashishwa mu burezi, harimo amarate, amakaramu yo gushushanya, ahangaha rero bikunze gukoreshwa mu isomo ry'imibare kandi rwose abana bamaze kubigira nk'umuco no kubitora.

Uburezi bukozwe neza ni inkingi ya mwamba y'iterambere, ahangaho mu mashuri abanza abana bagomba gutozwa zimwe mu ndangagaciro z'Umunyarwanda harimo gukunda Igihugu no kurwanya ibiyobyabwenge, ntabwo rero tugomba kugenda dukora ibindi bintu ngo twirengagize izo ndangagaciro zigize umuco wacu.

Uburezi bukunze gutezwa imbere cyane cyane mu bana batoya, ahangaha twavuga nko mu mashuri abanza, ntabwo twakwirengagiza akamaro k'ibitabo no gushishikariza abana mu kubisoma, akenshi rero bakunze kuvuga ko umuntu usoma cyane akunze kwaguka ubwonko ndetse akagira n'ibitekerezo bihamye, cyane cyane iyo akiri umunyeshuri.

Amashusho y'ibinyampande mu mibare ,akunze kwifashishwa n'abana cyangwa se abanyeshuri, bakora amasomo agiye atandukanye. Si ibyo gusa kuko burya niyo umuntu agiye kubaka ,tuze nk'ikinyampande bita kare ,baracyifashisha cyane bafata ibipimo.

Amashusho afite ibintu agaragaza hari ikintu asiga ku bwonko bw'abana cyangwa se n'abantu bakuru, si ibyo gusa kuko burya aranatwigisha, aho amwe n'amwe agaragaza agaciro k'ibintu ndetse ibi ngibi bigatuma ibyo bintu tubonyeho tubibungabunga.

Ibikoresho byifashishwa mu burezi dukunze kubibona ahantu hose hagiye hatandukanye, ibi ngibi rero byatumye Igihugu gitera imbere kandi kigera ku rwego mpuzamahanga bitewe no kwita ku burezi aho ari inkingi ya mwamba mu iterambere.

Ibigo by'amashuri bya kera wasangaga nta suku bifite aho abanyeshuri bamwe na bamwe bajyaga bajya ku ishuri biyambariye uko bashatse bamwe batebeje abandi batatebeje, ariko ibi ngibi ntabwo biba bikwiye kandi biba bigomba kwigwaho na buri wese ndetse n'ubuyobozi bw'ikigo bugashyiramo imbaraga zishoboka.

Mu mashuri abanza abana bagomba kwicara ahantu hamwe bakaganira kandi bakungurana ibitekerezo, aha ngaha rero tugomba gutoza abana kumenya gukorera mu matsinda kuko akenshi bakunze kuhavana ubumenyi, kurusha uko mwarimu yaza akarondogora ibintu byinshi atari bo babyikuriye mu mutwe wabo.

Uburezi bw'ibanze bwagiye bugaragara ko buteza imbere rubanda ndetse n'abantu babukora bakagira icyo bungukamo. Leta yagerageje kugenda izamura imishahara ku barezi kandi ibi ngibi byafashije mu kongera umusaruro.

Ibigo by'amashuri bafite inyubako zigiye zitandukanye kandi nziza, ibi ngibi rero bituma ireme ry'uburezi rikomeza gufata imizi cyane cyane mu rubyiruko ndetse no mu bice byo mu cyaro.

Hari ibikoresho bimwe na bimwe twifashisha mu mashuri abanza, aha ngaha navuga nk'amarate ndetse n'amakaramu y'ibiti yifashishwa mu gushushanya ibinyapande, ni byiza rero gukoresha uburyo bwose bushoboka, abana bakabona ibikoresho bajyana ku mashuri.

Akenshi ibishushanyo bigaragaza ibitabo biba bifite icyo bishaka gusobanura kandi kinini cyane, harimo nko gutoza abana umuco wo gusoma ndetse no kumenya kwihugura no gukora ubushakashatsi. Ntabwo rero tugomba kubikerensa twumve ko hari abantu bireba, tugomba gushyiramo imbaraga twese nk'urubyiruko tukabishyiramo imbaraga zose zishoboka.

Inyubako za Leta dufite muri iki gihe harimo n'amashuri abanza, ayisumbuye ndetse n'amakuru na kaminuza, ibi ngibi byagiye bigaragara ko Igihugu gifite ireme ry'uburezi kandi rihamye umusaruro wiyongera.

Ibikoresho gakondo ntabwo bigomba kuyibagirana cyangwa se ngo bibure gufatwa neza, ahangaha nk'ibitebo tuzi ko dukunze kubishyiramo imbuto tujya ku isoko, ariko harimo abana bavutseho bataramenya uburyo ari ingirakamaro.

Uburezi bwakomeje gutezwa imbere cyane mu mashuri agiye atandukanye y'igihugu ntabwo twakirengagiza ko iyi ngiyi ari inkingi ya mwamba y'iterambere kandi yagiye ifasha ibintu byinshi bigiye bitandukanye mu gihugu, aho usanga abantu benshi barajijukiwe gusoma kandi banabikunze cyane ndetse na Leta ikaba yarongereye amasosomero agiye atandukanye hirya no hino mu gihugu.

lbishushanyo bikunze gushushanywa ahantu hari amashuri abanza, bikunze kuba bifite icyo bisobanura cyane cyane aho bikangurira ubwonko bw'abana ,ndetse bikanabafasha mu gusoma ,ndetse ibi ngibi bigatuma ireme ry'uburezi rizamuka, ibi ngibi ntabwo bigomba gukorwa mu Rwanda gusa, biba bigomba no kugenda bishyirwa n'ahandi hantu hagiye hatandukanye no hanze bakabimenya.

Ibikoresho byifashishwa mu burezi harimo amakaramu y'ibiti, amakayi ndetse n'impapuro zo gushushanyaho, ibi ngibi bituma abana bivumburamo izindi mpano ziba zihishe muri bo kandi zikagira icyo zibamarira zikakimarira n'Igihugu muri rusange.

Amashuri abanza abafite ibirango bijye bitandukanye, ntabwo rero abana bagomba kwicara ngo ntibabisome baba bagomba gukoresha uburyo bwose bushoboka bakagerageza kubisobanukirwa.

Amashuri abanza dukunze kuyifashisha mu burezi busanzwe bw'ibanze. Aha ngaha navuga nk'aho usanga harimo za mudasobwa , zidufasha mu kugenda twihugura kandi tugira ibyo dukora cyane cyane mu gihe gikomeye cyane. Ibi ngibi bituma ireme ry'uburezi rizamuka rwose.

Ibigo by'amashuri bikunze kuba bifite uruzitiro ndetse hakaba n'ibindi birango bigiye bitandukanye n'Amadarapo, aha rero tugomba kubungabunga neza inyubako za Leta tukamenya n'agaciro kazo.

Impuzankano ikunze kwamburwa n'abarezi, abaganga n'abanyeshuri, ibi ngibi rero bigaragaza ubudasa mu bice bigiye bitandukanye by'Igihugu cyacu cyane cyane n'imirimo imwe n'imwe yo mu nzego za Leta.

Mu burezi bw'ibanze niho dukunze kubona ibikoresho bigiye bitandukanye nk'ibishushanyo ,aho usanga abana babyifashisha mu rwego rwo gukomeza amasomo yabo, ntabwo rero tugomba kubikeretsa cyangwa ngo tubifate nabi ,tugomba gushyiramo imbaraga ,tugashishikariza abana gusobanukirwa n'ibyo bishushanyo.

Amashuri abanza akunze kuba afite utubati aho hagenda habikwamo ibikoresho bigiye bitandukanye nk'ibitabo ndetse n'amakayi abana ndetse bakabyifashisha barimo bariga, ibi bizamura ireme ry'uburezi ndetse n'abana bagafunguka mu mutwe bakaba bagira bimwe mu bintu bagenda bavumbura byifashishwa mu burezi bwabo.

Ibikoresho twifashisha mu burezi bw'ibanze harimo amakayi n'amakaramu, abana rero baba bagomba kubifata neza bakirinda kubica ndetse no kubishwambaguza ahantu hose babonye; tugomba gushishikariza abana umuco mwiza wo gusoma kuko ibi ngibi byongera ireme ry'uburezi kandi bikanabafasha mu gufunguka ubwonko kwabo.

Ibishushanyo bigiye bitandukanye byifashishwa n'abana mu gusobanukirwa. Aha ngaha ndavuga nk'amashuri abanza ndetse n'ay'inshuke. Ibi ngibi bituma uburezi bugira ireme kandi bugakomeza gukura mu bice bitandukanye by'igihugu

Mu mashuri abanza abana bakunze guhabwa uburezi bw'ibanze. Ibingibi rero birabakurikirana, kuko burya umunyarwanda yavuze ko uburere buruta ubuvuke. Umurezi mwiza kandi wanyawe aba agomba kwita kuri ibyo bice bibiri.

Ibikoresho by'ubuhinzi n'ubworozi bigiye biri kugaragazwa ahantu henshi, ariko harimo n'ibyuma by'ubwubatsi nk'inyundo, amapiki n'inzego, urukero, tugomba rero kumenya ibikoresho tugendana mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ibikoresho by'ishuri harimo ibintu bigiye bitandukanye, harimo amakaye, amakaramu ndetse n'ibyifashishwa mu bumenyi rusange ndetse n'imibare, hagomba rero kuba hari abantu bagomba kubyitaho kandi bakabitoza abana ndetse bakiga no kwifata neza, ntabwo tugomba kubikerensa, ababyeyi na bo bagomba gushyiramo imbaraga, bakabitoza n'abana babo.

Ibyumba by'amashuri burya biba bigomba kuba biteguye neza. Nta mpamvu rero yo kutabigirira isuku. Hagomba kuba harimo ameza, intebe kandi buri kintu cyose kiri mu mwanya wacyo. Ibi ngibi nibikorwa neza ireme ry'uburezi rizazamuka.

Amashuri abanza akunze kuba afite ibirango biyagaragaza, ibi ngibi rero bituma ubwenge bw'abana bwaguka kandi na bo bakavumbura ibintu bishyashya; tugomba rero gushyiramo imbaraga kandi tugakora ibishoboka byose abana bakava mu bujiji.

Mu bitabo bigiye bitandukanye by'amashuri abanza harimo ibishushanyo. Ibi ngibi rero bituma ubwenge bw'abana bwaguka, bikabafasha gutekereza kure kandi na bo bakagira umuhate ndetse bigatuma n'ireme ry'uburezi rizamuka.

Mu bikoresho by'ishuri dukoresha mu mibare, tugomba kuba dufitemo amakaramu n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye kugira ngo umunyeshuri yige atsinde rero ni uko aba akeneye ibikoresho byose kandi byuzuye, bimufasha mu gukora uwo mwuga wo kwiga, ntabwo twakwirengagiza ko ari akazi nk'akandi ariko cyane cyane tukibuka ko ari umurimo duhamagarirwa, cyane cyane ku rubyiruko ndetse tutirengagije n'abantu bakuze.

Amashusho agenda ashyirwa ahantu hatandukanye, aba afite ubusobanuro, abantu rero bamaze kugenda basobanukirwa neza n'akamaro ko gusoma ibishushanyo kandi bakagerageza no gusesengura byimbitse icyo ashatse kuvuga.

Inyubako za leta harimo amavuriro n'amashuri. Aha ngaha rero tugomba gushyiramo imbaraga, tugashishikariza abantu bose kugana ibyo bikorwa bikorerwa aho hantu. Ntabwo twakwirengagiza ko uburezi buhamye bufasha mu iterambere ry'igihugu kandi bwunganira n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye byacu bya buri munsi.

Inyubako ziri ahantu hagaragara kandi zisa neza zikunze kugira akamaro cyane, aha ngaha rero Leta iba igomba gushishikariza buri Muturarwanda wese kumenya gushyira mu gaciro kwiyubaha ndetse no kumenya gufata neza ibintu bimukikije harimo n'izi nyubako, tukirinda kuzisenya cyangwa se kuba twazigirira nabi nko kuziyoboraho amazi adakenewe.

Ibigo by'amashuri bigiye bitandukanye biba bifite ibyapa ku marembo ntabwo rero twakirengagiza akamaro k'ibyapa, abana bagomba gutozwa akamaro kabyo bakamenya kubisoma kuko biyobora abantu kandi bikabereka ahantu hari ikintu cya nyacyo ntibabashe kuyoba. Ibi ngibi rero bigomba gushyirwamo imbaraga kandi tukabiteza imbere mu bice byose by'Igihugu.

Bimwe mu birango by'amateka bikunze gushyirwa ku bikoresho byifashishwa mu burezi, aha ngaha twavuga nk'ibikoresho abana batwaramo bimwe bifashisha mu mibare nk'amarate, ibi rero bituma ireme ry'uburezi rizamuka.

Ibitabo ni isoko y'ubumenyi tugomba kwihatira gusoma cyane tukavumbura kandi tukagira na bimwe tugeraho. Ntabwo rero twakirengagiza akamaro kabyo, ibi ngibi rero bizatuma ireme ry'uburezi rizamuka ndetse n'iterambere ku gihugu.

Uburezi bukunze gutezwa imbere mu bice byose by'Igihugu, ntabwo rero twabura kubushyigikira ndetse no gushishikariza abato n'abakuru kugana inzira yo gusoma. Ibi ngibi bizatuma iterambere ry'Igihugu ryiyongera.

Uburezi iyo bukozwe neza kandi bugashyirwamo imbaraga, butanga umusaruro ku gihugu ndetse n'ababukora. Aha ngaha rero abarerwa bagomba kwitonda kandi bakamenya kugira ikinyabupfura ndetse bakamenya n'indangagaciro, harimo za kirazira. Aha ngaha navuga nko kumenya gukunda igihugu ndetse no kwihesha agaciro.

Uburezi iyo bwitaweho buteza imbere rubanda ndetse n'ababukora, aha ngaha nagana havuga nk'abanyeshuri aho usanga bicara ahantu heza kandi hafite isuku, intebe zimeze neza, bafite amagaye n'amakaramu bandika, ibi ngigi bituma Igihugu gitera imbere kandi kigateza imbere umuco wacyo wo gusoma no kwandika.

Kkwibuka Jenoside ni inshingano yacu twese, aha ngaha rero hari ahantu mu Gihugu hagiye hari inzibutso zitandukanye, tuba tugomba kuzisura tugasobanurirwa amateka n'uburyo Leta ya mbere yari ibayeho.

Ibigo by'amashuri bigomba gukomeza kugirirwa isuku kandi n'inyubako ntizangizwe n'abana kuko hari aho usanga nk'abana baragiye bashwaraturaraho ku ruhande, ugasanga ntabwo bimeze neza. Ibi rero bigomba kwitabwaho n'abarezi ndetse n'ubuyobozi bw'ikigo.

Uburezi bukozwe neza butanga umusaruro kandi bukagira n'icyo bufasha ku gihugu, aha ngaha niho hahandi ubushakashatsi bwagiye bugaragaza ko igihugu gifite abana b'injijuke kandi bize neza, ari cyo gitera imbere cyane, ntabwo rero twakwirengagiza ko muri bimwe bihugu byagiye bitera imbere, byabanje guhera ku burezi, aho uburezi butangirira ku mashuri abanza, ayisumbuye ugakomeza na za kaminuza.

Ibyapa bigiye bitandukanye bifite icyo babisigura cyangwa se bigaragaza. Aha ngaha nko mu mashuri abanza, bakunze kugira umuhango wo kugenda bagasura nk'inzibutso zigiye zitandukanye, mu rwego rwo gukomeza kurwanya jenoside no kurandura ingengabitekerezo yayo. Ibi ngibi rero bigomba gushyirwamo imbaraga na leta.

Amashuri makuru na za kaminuza akunze kuba afite abayobozi babafasha mu bintu by'imyigire, aha ngaha rero hagomba gushyirwaho ingamba zikomeye kandi zikarishye mu rwego rwo guhashya uburaya ndetse n'ibindi bintu byose by'ubusambanyi.

Ibyapa biranga amashuri cyangwa ahantu ni ingirakamaro, tugomba kubibungabunga tukabifata neza, tugakangurira n'abantu kumenya akamaro kabyo kuko nibyo bikunze kutuyobora bityo abantu ntibabashe kuyoba, ni byiza rero kubibungabunga.

Uburezi cyane cyane mu mashuri yisumbuye bukunze gushyigikirwa cyane, ntabwo twakirerengagiza ko umuntu kugira ngo agire icyo amenya aba yaranyuze mu ishuri; aha ngaha rero tugomba gushyiramo imbaraga cyane tukabuteza imbere ndetse tugashishikariza n'abantu gukomeza amashuri yisumbuye ntibagarukire mu abanza gusa.

Ibyumba by'amashuri bigomba kuba biri ahantu heza kandi hafite isuku, yaba mu mashuri abanza ndetse na kaminuza, hari uburyo bw'ikoranabuhanga bwagiye bugaragara ko buteza imbere uburezi, bugomba gushyirwa mu mashuri abanza ndetse n'incuke, bose bagakura bafite uwo muco mwiza wo gukoresha ikoranabuhanga mu burezi.

Abarezi bagiye bahabwa ibintu bigiye bitandukanye, harimo indangururamajwi ndetse n'ibindi byuma bishobora kwifashishwa mu itorero ry'igihugu, ndavuga ahangaha mu mashuri yisumbuye abana bagiye bahabwa impuzankano zisa kandi zigaragara ko hari abantu basobanutse. Ibingibi byatumye uburezi mu Rwanda bwiyongera kandi bufata n'idi kigero gikabije cyane, kigaragara ko rwose hari ireme ndetse n'icyizere cy'ejo hazaza.

Hari ibikorwa bimwe na bimwe Leta yagiye ishyiramo imbaraga nko gukoresha mudasobwa cyangwa se ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga, byagaragaye ko ireme ry'uburezi ryazamutse cyane mu myaka icumi ishize.

Amashuri yisumbuye agomba gushyirwamo imbaraga, aha ngaha rero tugomba kumenya kubungabunga neza no gushyigikira ibyagezweho, dushishikariza abantu kugana ishuri kandi bakirinda gukerensa uburezi bahabwa.

Uburezi bufite ireme bukunze gukorwa n'u Rwanda rwose, ibingibi byamaze kugaragara mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu, aho ireme ryavuye kuri gatatu n'ibice bitanu rikagera hafi kuri mirongo irindwi na kabiri.

Abanyeshuri iyo bavuye mu biruhuko bagomba kuba bafite impuzankano zinasa, ibi ngibi byatumye abana batagenda bitwara uko bishakiye kuko n'ugerageje gutana abakuru baramukebura akagaruka mu murongo.

Amashuri yisumbuye aba afite ibirango ku nkuta. Aha ngaha navuga ko hari aho usanga hari indangagaciro ndetse n'ingamba ikigo gifite. Aha ngaha rero tugomba kumenya ko ababyeyi ndetse n'abarezi, bagomba gutoza abana gusoma ariko ntibibe ibyo ngibyo gusa n'abanyeshuri bakagira uruhare rwabo kandi runini rugaragara.

Abana baba bagomba kwicara bakaganirizwa ku bintu bigiye bitandukanye, aha ngaha rero harimo nk'abarezi, abayobozi ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye; ibi ngibi bituma ikinyabupfura gikomeza gukura mu bakiri bato.

Uburezi bufite ireme bukunze kuba bugaragarira ahantu henshi hagiye hatandukanye. Yaba mu giturage, mu mijyi cyangwa se n'ahandi mu bihugu by'amahanga. Ibi ngibi rero bituma umusaruro w'Igihugu ndetse n'iterambere ryiyongera cyane.

Ibyapa bikunze kuranga amerekezo nta muntu rero uyoba bihari, ibi ngibi bituma Leta ishyiraho ingamba zikarishye zo kubibungabunga kuko bifite icyo bimariye Igihugu.

Amashuri yisumbuye aba afite ubusitani kandi rwose biba bigaragara neza binasa neza. Hari ibirango bimwe na bimwe by'igihugu bihagaragara, nk'amadarapo cyangwa se ibendera.

Abantu bagomba guteranira hamwe bagasobanurirwa akamaro k'ubuhinzi. Ntabwo rero bireba abantu bamwe cyangwa se igice runaka. Ibi ngibi nibiramuka bikozwe neza, bizatanga umusaruro ku gihugu ndetse no ku bantu ubwabo.

Uburezi buba bugomba gutezwa imbere kandi bugashyirwamo imbaraga mu bice byose bigiye bitandukanye by'igihugu. Aha ngaha niho hakunze kuvamo intiti n'inzobere. Ntabwo twakwirengagiza rero ko atari ibyo gusa, dukunze kubanamo n'abavuzi cyangwa se abandi bantu bagiye batandukanye mu bisata byose bigiye bitandukanye by'igihugu.

Ahantu henshi haba habaye ibirori hari umuyobozi uba ugomba kubiyobora, tugomba rero kwitondera ahantu henshi hari abantu kuko haba hari n'ibindi bibazo bishobora kuhavuka, ni byiza rero kwitwararika.

Mu mashuri makuru cyane cyane ayisumbuye y'abana babaye indashyikirwa bagenda bashyikirizwa ibihembo bigiye bitandukanye. Ibi ngibi bikabatera umuhate mu kwiga kandi n'abandi bagashyiramo imbaraga kugira ngo bazabihabwe.

Mu rwego rwo kwibuka no kuzirikana abacu bazizeJenoside Leta yashyizeho ingamba za nyazo kandi ziboneye, ibi ngibi rero bituma ingengabitekerezo igenda ishira mu bantu gahoro gahoro.

Uburezi bukomeje guteza imbere Abanyarwanda muri rusange, kugira ngo Igihugu kigire ibikorwa bigiye bitandukanye ni uko kiba gifite intiti n'inzobere, ibi ngibi rero bituma u Rwanda rukomeza kuza mu bihugu by'imbere muri Afurika mu iterambere.

Ibigo by'amashuri bifite impuzankano zigiye zitandukanye ariko zigaragarira buri muntu wese. Ntabwo rero tugomba kwambara uko dushatse yaba abarerwa ndetse n'abarezi. Ibigibi rero bigomba no gushishikarizwa n'ababyeyi bagakora igishoboka cyose kugira ngo byubahirizwe.

Mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye abana bahabwa impuzankano kandi zigaragara neza zinasa. Ntabwo hitabwa ku gitsina yaba abahungu cyangwa abakobwa, wenda ntitwabura kwirengagiza ko harimo bimwe mu bigo bikunze kugaragara ko bidakurikiza iryo hame ariko ntabwo ari ibintu byiza kandi ntabwo biboneye.

Amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye hari ibintu bimwe na bimwe aterekana ariko iyo ugeze mu mashuri makuru nka za kaminuza hari ibintu bimwe ugenda usobanukirwa ndetse n'ibyo utagiye wumva hasi ukagerageza kugenda ubimenya gahoro gahoro.

Muri za kaminuza dukunze kugenda tubona imideri igiye itandukanye. Ibi ngibi rero bigaragaza ubuhanga buhanitse, abanyeshuri bafite cyane cyane urubyiruko rwiga muri ayo mashuri makuru.

Ahantu abanyeshuri baba cyangwa se barara, aha ndavuga abacumbikirwa mu bigo bigiye bitandukanye, hagomba kuba hafite ama nimero aharanga, yaba inyuguti cyangwa se imibare bitewe n'amahitamo ya buri shuri.

Inyubako z'amashuri makuru zikunze kuba zigeretse aho benshi bakunze kuvuga ko ari amayetaje, ntabwo rero tugomba kuzangiza ngo tuzifate nabi cyangwa se twirengagize akamaro zidufitiye mu burezi, tugomba gushyiramo imbaraga zose zishoboka tugakangurira abantu gushyiramo imbaraga ndetse no kwagura ubwenge bwabo bakiteza imbere no mu bumenyi.

Uburezi bugiye butandukanye bukunze kugira akamaro cyane. Iyo abantu basoje amashuri makuru nka za kaminuza usanga banezererwa kuko hari impupuzankano bambara zibigaragaza aho baba bagiye guhabwa impamyabumenyi n'impamyabushobozi zabo kandi ibi ngigi bigenda bigaragara mu bice byose bigiye bitandukanye by'Igihugu ndetse no ku isi.

Iyo abantu bateraniye hamwe baganira ntako bisa, usanga rero bungurana ibitekerezo ndetse n'imishinga myinshi ikanozwa, ibi ngibi bikazamura iterambere ku bantu ku giti cyabo ndetse no ku gihugu.

Amashuri makuru na za kaminuza ni inzu z'ubushakashatsi ndetse n'ibitabo, buri muhanga wese aba yaragiye anyura ahantu nk'ahangaha mu rwego rwo kwihugura ndetse no gucura no gushakisha ibintu bishyashya.

Inyubako za Leta zikunze kuba ziri ahantu hagiye hatandukanye. Ibi ngibi rero bigenda bizamura ireme ry'uburezi iyo zishyizwe ahantu hagaragara kandi bikongera n'umusaruro. Tugomba rero kuba twitabira ikintu cy'uburezi kandi tugakora n'uburyo bwose bushoboka mu kubuteza imbere.

Mu mashuri agiye atandukanye nka za kaminuza dukunze kubona ahantu bakunze kuba bamena imyanda mu rwego rwo kurwanya bimwe mu bikorwa bishobora guturuka kuri ibyo bikorwa bidahwitse, aha ngaha rero tugomba kuba dufite ahantu tubibika, tukagira ahantu dukorera isuku, tukagira ahantu tugomba kwanika imyenda mu rwego rwo gukomeza kwiteza imbere ndetse no guhangana n'ikibazo k'isuku nke.

Amashuri makuru na za kaminuza akunze kugenda akora utuntu tw'udushya, harimo nko gukora intebe cyangwa se ibindi bintu byose bishobora kwifashishwa mu bumenyi bugiye butandukanye, ntabwo twakirerengagiza rero ubuzima bw'abo banyeshuri bakunze kugaragara ko batabayeho neza cyangwa se batishimye ariko Leta ikaba igenda igaragara ko hari ibintu bimwe na bimwe igiye kuzahindura.

Ahantu tugenda hagomba kuba hafite isuku kandi hagaragara hanasa neza. Ibi ngibi rero bizatuma dukomeza kwiteza imbere nitubungabunga neza ibidukikije ndetse tugafata neza ibyagezweho.

Uburezi buba bugomba gushyirwamo imbaraga cyane cyane ubw'amashuri makuru, aha ngaha ni ho tugenda tubona abashakashatsi, abavumbuzi ndetse n'ibikorwa bimwe na bimwe bigenda bifasha akamaro kandi bifitiye Igihugu akamaro cyane cyane mu nshe zigize zitandukanye z'Igihugu cyacu cy'u Rwanda.

Ibikoresho bigiye bitandukanye nk'ubugeni bikunze kuboneka mu mashuri makuru na za kaminuza kuko ni ho hari abantu b'injijuke kandi bafite ubushobozi bwo gusobanura neza ibyo bari gukora.

Ibyumba by'amashuri bigomba kuba byubatswe neza kandi mu buryo bugezweho. Ntabwo rero tugomba kugenda ngo twubake mu manegeka kuko ahantu hahurira imbaga nyamwinshi, haba hagomba kwitabwaho by'umwihariko.

Inyubako zimwe za Leta zikunze kuba ari nk'amashuri cyangwa se andi mavuriro, cyane cyane ariko ntabwo twakirengagiza akamaro kayo, ntabwo tugomba kuyangiza cyangwa se ngo tuyashwarature, ibi ngibi rero tubikoze bituma ireme ry'uburezi rigabanuka ndetse ntitubashe gutera imbere cyane.

Inyubako zigiye zitandukanye z'amashuri makuru na za kaminuza, zikunze kuba ziri ahantu heza kandi hafite isuku, ibingibi rero byongera ireme ry'uburezi kandi bituma n'abanyeshuri bakora ubushakashatsi bwabo bitonze kandi bisanzuye.

Amashuri makuru na za kaminuza agomba guhabwa ibikoresho bigiye bitandukanye harimo iby'isuku. Imyanda ntigomba gushyirwa ahantu hagiye haboneka ahantu hose ibintu bigiye bitandukanye, tugomba rero kumenya guteza imbere umuco mwiza w'isuku ndetse no gushyiramo imbaraga tugakangurira n'abantu bose bagera ahantu nk'ahongaho kwimakaza icyo kinyabupfura.

Mu mashuri makuru nka za kaminuza hakunze kuba harimo ibinyaruka aho byifashishwa mu kwigisha no gutanga imbonezamasomo, ntabwo rero tugomba kugenda ngo twangize ibyo bintu, tumenagura ibirahure cyangwa se ngo twumve ko hari ikintu kigomba kubyangiza, tugomba gushyiramo imbaraga tukarwanya ibintu byose bishobora gutuma uburezi butagenda neza.

Inyubako za kaminuza zikunze kuba ziriho amanimero aziranga, iyo mibare rero ishyirwa kuri buri cyumba cyane cyane nk'abantu bacumbikirwa kandi ibi ngibi bituma umuntu atayobagurika cyangwa se ngo abe yagira ikibazo k'ibikoresho bye bitizewe kuko urufunguzo aba ari we wenyine urufite.

Bimwe mu bikoresho gakondo harimo n'ubugeni, aho hari bimwe mu bishushanyo byagiye bisirwa n'abakurambere ndetse bikagenda bifite icyo byigisha ku bantu babisobanukiwe neza.

Mu mashuri makuru na za kaminuza hakunze gukorerwamo ubushakashatsi, ariko ibiingibi ntabwogo byizana gusa. Bisaba ko abantu bicara hamwe bakagira ibyo bigaho bakurikije ibibazo umuryango ugiye ufite.

Ibikoresho byifashishwa mu bugeni bikunze kuba biri ahantu hagiye hatandukanye nko mu bigo bya za kaminuza, ibi ngibi byatumye umuco nyarwanda usigasirwa kandi ntutakare cyane cyane mu rubyiruko.

Mu mashuri makuru nka za kaminuza na ho buryo bagira ibintu by'ibibaho bandikaho, ntabwo bakunze gukoresha mudasobwa gusa cyangwa se ngo bajye babura murandasi kuko hari n'ibindi bikoresho byifashishwa mu burezi; tugomba rero kumenya ko uburezi bufite ireme buteza imbere Igihugu kuko aha ngaha ni ho hakunze kuvamo n'abashakashatsi bagiye batandukanye.

Ibirango bikunze gushyirwa ahantu hagaragara ndetse n'amasengesho iyo ari bube ashyirwa kuri ibyo birango. Ntabwo rero tugomba kubyangiza cyangwa se ngo twifate nk'abatazi agaciro kabyo.

Ibyumba bikunze gukorerwamo inama bigomba kuba bifite isuku kandi bizwi neza, nta muntu rero n'umwe ugomba gusiba inama mu gihe apanzwe, yaba yashyizweho n'urwego rw'igihugu runaka cyangwa se urwego rw'igihugu rugenda rugena inama, ibi ngibi rero bizatuma umusaruro w'igihugu wiyongera.

Iyo abantu bicaye hamwe bakunze kungurana ibitekerezo kandi bakiga ku bintu bigiye bitandukanye nk'imishinga imwe n'imwe, ntabwo twakwirengagiza ko ibi ngibi bizamura iterambere ry'Igihugu kandi n'abantu bakagenda basobanukirwa n'ibikorwa byiza kandi bibafitiye akamaro, dushyiremo rero imbaraga kandi dushishikarira guteranira ahantu hamwe.

Amakoperative agomba gushyirwamo imbaraga cyane. Aha ngaha rero ndavuga amashyirahamwe ku batazi ikinyarwanda neza. Usanga abantu rero bakora ibintu nk'ibi ngibi bariteje imbere kandi bashyira hamwe. Ibi ngibi bigatuma umusaruro mbumbe w'igihugu wiyongera, ugatumbagira ukagera ku rwego rushimishije.

Ubugeni burigishwa mu mashuri makuru ndetse na za kaminuza. Harimo n'abagiye babona impamyabumenyi z'ikirenga kandi rwose bigaragara ko byagiye bizamura umuco nyarwanda wari utangiye gucika mu rubyiruko.

Ubugeni, ubuvanganzo, ni bimwe Leta yagiye ishyira mu mashuri makuru ndetse na kaminuza ibi ngibi rero bituma umuco nyarwanda usigasirwa mu bisate byose by'Igihugu kandi amateka ntiyibagirane.

Ibikorwa bimwe na bimwe bikunze kugibwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri makuru na kaminuza, aha ngaha rero harimo nko kwita ku buzima bw'abantu, kubigisha muri zimwe mu ndwara zishobora kwandura n'izitandura.

Amashuri makuru ndetse n'ayisumbuye, yagiye agaragaza ko hari ubushobozi urubyiruko rwifitemo. Aha ngaha rero ntabwo twabikerenza mu gushyiramo imbaraga. Leta niyo mpamvu iba igomba gushyiramo ingengo y'imari ihagije.

Ibyumba by'amashuri usanga bikorerwamo inama iyo atari igihe cyo kwiga ntabwo tugomba kwirengagiza ko na byo bidufasha mu bintu bigiye bitandukanye nko gukemura ibibazo ndetse no gukora ubushakashatsi, tugomba rero kubifata neza tukabibungabunga ndetse tukirinda no kubikorera ibikorwa bimwe na bimwe bishobora gutuma byangirika.

Amashuri makuru ndetse na za kaminuza akunze kuba ari ahantu heza kandi hazwi. Ntabwo tugomba kwirengagiza akamaro kayo kuko hano niho hakunze kuvamo inzobere ndetse n'inditi zigenda zikemura ibibazo bimwe na bimwe by'imiryango igiye itandukanye ndetse tukagenda tuniteza imbere mu bice byose bigiye bitandukanye by'igihugu.

Ahantu hashyirwa amasomo yaba mu mashuri abanza n'ayisumbuye hagomba kuba hagaragara. Aha natanga urugero nk'ibibaho cyangwa se ibindi bikoresho byifashishwa mu burezi kandi bikunze kugaragara ko byongera umusaruro.

Uburezi bufite ireme bugaragazwa no gukora cyane ndetse no kwitabira umurimo, ibingibi nta muntu bitareba, twese tuba tugomba guharanira kujijuka ndetse no kugerageza kwiteza imbere mu rwego rw'imitekerereze n'imyumvire binyuze mu burezi.

Abanyeshuri bo mu mashuri makuru nka za kaminuza, usanga bicaye ahantu hamwe baganira kandi banakora ku bintu bigiye bitandukanye. Aha ngaha rero hakunze kuvamo ibitekerezo bikomeye igihugu cyifashisha mu guhangana na bimwe mu bibazo byacyo, ntabwo rero tugomba kugenda ngo twicare twuve ko hari abantu bireba abandi bitabareba.

Ubushakashatsi bugenda bukorwa hirya no hino ku isi bugira icyo bufasha abantu ndetse bukongera n'umusaruro ku gihugu, ibi ngibi byatumye u Rwanda rwiyongera mu bice bijyiye bitandukanye by'iterambere aho usanga buri munyarwanda wese yarabashije gukemura ikibazo cy'ubushomeri.

Mu mashuri makuru nka za kaminuza usanga na ho hari ibirango bigiye bitandukanye bishyirwa ku nkuta. Ntabwo rero tugomba kubifata nabi ngo twumve ko turi abantu bakuru barenze abandi, tuba tugomba kubibungabunga tukirinda kubyangiza ndetse no kubigirira nabi. Aha ngaha rero igihugu kiba cyaratwizeye kidushyiriraho n'ibintu nk'ibi ngigi bidufasha mu gukangura ubwonko bwacu.

Nta kintu kiza kinezeza umunyeshuri ndetse n'umubyeyi nko kubona imvune yagize yiga ashyizeho iherezo. Aha ngaha rero dukunze guhabwa impuzankano zigaragaza icyo kemezo twafashe kandi ntakuka.

Imitako ishyirwa ahantu hatandukanye ni ingenzi cyane, ibi ngibi rero bituma u Rwanda rukomeza gusigasira umuco warwo kandi rugafasha n'abatoya kuwumenya, ni byiza rero gusigasira ibyagezweho.

Ibikoresho bikoreshwa muri za kaminuza harimo nk'intebe ndetse n'amezaza ku ruhande, ibingibi bituma abanyeshuri biga bisanzuye kandi nabo bikabongerera umurava n'umwete mu byo bari gukora.

Ahantu duparika ibinyabiziga hagomba kuba hameze neza kandi hafite isuku. Tugomba rero kugira icyo twita amakenga mu gihe hari ibikorwa turi gukorera ahantu runaka, haba mu mashuri, mu mavuriro ndetse n'ahandi hantu hagiye hatandukanye.

Ahantu hitaruwe kandi hari ubusitani haba hagaragara neza cyane, tugomba kumenya ko ubwo ubu busitani bukunze gutanga umwuka duhumeka ndetse tukanamererwa neza tukanaruhukiramo, si ibyo gusa kandi dushobora no gukoreramo inama tukiga ku bikorwa bigiye bitandukanye ndetse tukiteza imbere, muce zose zigiye zitandukanye.

Ibikoresho twifashisha mu burezi bigiye birimo ingeri zigiye zitandukanye, harimo amakayi, amakaramu ndetse na mudasobwa, ntabwo rero tugomba kwirengagiza kimwe muri ibyo ngibyo kuko byose birunganirana, tugomba gushyiramo imbaraga, tugashishikariza abantu kubishaka ndetse tukibutsa n'ababyeyi inshingano zabo.

Mu mashuri amwe n'amwe hakunze kubamo amarushanwa, cyanecyane nko mu gusoza bagiye guhabwa impamyabumenyi zigaragara, aha twavuga nko muri kaminuza y'u rwanda aho usanga amakoresha amwe n'amwe nk'ay'ubuvuzi ashyirwamo imbaraga z'ikirenga.

Utuyira iyo twubatswe neza dukunze kuyobora abantu ahantu ha nyaho kandi ntibayobagurike, aha ngaha rero tugomba kumenya ko tugomba kubyitaho, tukagerageza no kubungabunga abantu bahanyura mu rwego rwo gukomeza kubacungira umutekano, ntabwo twakwirengagiza ko ibintu byinshi bigiye biza bikunze gutuma abantu batamererwa neza nk'ibiza.